Umuhanda mwiza usa neza，uri kunyuramo imodoka，moto，n'abantu. Imodoka ni nziza kuko zigufasha kugenda wihuta，ukagera iyo ugiye vuba vuba， ziba zifite amapine atuma zirukanka cyane.

Abaturage benshi bicaye, imbere hari umusirikare ari kubaganiriza. Umusirikare ni umuntu ucunga umutekano w'igihugu, cyane cyane kugira ngo igihugu kidaterwa n'umwanzi uvuye hanze yacyo.

Abapolisi bacunga umutekano ku rwego rw'igihugu barimo kwigisha abaturage uburyo bagomba kwirinda no gutanga ibitekerezo mu gihe bahuye n'ihohoterwa cyane cyane igihe habaye ikibazo muri sosiyete aho baba n'aho batuye.

Abadaso bafite imbunda bari kwiga kurasa. Imbunda ni nziza kuko zirinda umutekano w'igihugu，igihe umwanzi yaguteye，imbunda ushyiramo isasu ukamurasa， kugira ngo yegere inyuma， atabasha kugutera ngo akwice.

Ahantu hubatswe hari amazu menshi, bisa nk'aho hafashwe n'inkongi y'umuriro, kuko ibibatsi by'umuriro biri kuzamuka n'umwotsi ukazamuka ari mwinshi cyane, bikagera hejuru mu kirere.

Indege nini cyane iri mu kirere bigaragara ko ari indege ya gisirikare. Hasi yayo ifite amadarapo abiri bigaragara ko aranga igihugu runaka, cyane cyane icy'u Rwanda, kuko hariho idarapo ryarwo.

Abasirikare benshi batonze umurongo bari gukoma amashyi, abandi bafite imbunda. Imbunda ni igikoresho wifashisha urwanya umwanzi kuko ushyiramo isasu ukamurasa akegera inyuma, cyangwa se agasubirayo ntagutere ngo akwice.

Abasirikare bari ku murongo benshi cyane, abasirikare ni beza kuko barinda umutekano w'igihugu kugira ngo abaturage bagire umutekano babeho neza bakora neza, nta kintu kibahungabanya gishobora kuza kubinjirira mu gihugu.

Moto ihagaze bigaragara ko yahiye yafashwe n'inkongi y'umuriro , kuko iri gucumba umwotsi ndetse n'umuriro, ibyuma bimwe byahiye , hasigaye amapine abiri ndetse n'amahembe ayifasha kuyobora igihe bayitwaye.

Ivalisi iteretse hasi irimo imyenda iruhande hari imbwa bisa nk'aho ishaka kurya imyenda iri mu ivalisi, iriya valisi yifashishwa mu kubika imyenda neza ku buryo idafurikanka mu gihe ushaka kuyambara ugiye mu birori cyangwa ugiye no gutembera.

Abaturage bicaye abandi bahagaze ku ruhande bigaragarako bari mu nama, kuko umusirikare ahagaze imbere afashe mikoro arimo arababwira ibijyanye n'umutekano w'igihugu, n'uburyo bagomba kuzajya birinda.

Abantu bicaye bigaragara ko bari mu nama kandi bakaba ari abayobozi kuko harimo abaturage, abapolisi ndetse n'abasirikare. Bigaragara ko bari kwiga ku mutekano w'Igihugu ku buryo iyo Igihugu gitewe bashobora kugitabara bose bashyize hamwe.

Umupolisi w'umumama ufite amapeti menshi cyane bisa nk'aho ayoboye abandi, umupolisi aba ashinzwe gucunga umutekano cyane cyane umutekano w'igihugu no ku baturage baba batuye igihugu.

Ahantu ku isoko bigaragarako inzu z'iruhande zafashwe n'inkongi y'umuriro, abantu bahagaze imbere bashungeye uburyo inzu ziri gushya, umwotsi mwinshi uri gucumba cyane ujya hejuru mu kirere , abantu bari kwihutira kujya gukuramo ibintu byabo.

Imodoka nini cyane bigaragara ko yifashishwa mu butabazi bw'ibanze igihe inzu zahiye, cyangwa se hari abantu bagize impanuka mu muhanda, kuko ikoreshwa n'abapolisi b'igihugu bashinzwe kurinda umutekano.

Abantu benshi bari mu kiyaga bamwe bigaragara ko bari koga abandi bari mu bwato barimo kugenda. Ubwato buba bukozwe mu biti cyane cyane byumye kugira ngo butaza kurohama abantu babwicayemo barimo kugenda.

Kizimya myoto ni nziza kuko yifashishwa ahantu habaye inkongi, urayifata hanyuma ukayicururiza imyotsi urimo ikazimya ahantu hafashwe n'umuriro w'amashanyarazi, ishobora gutuma abantu badafatwa n'inkongi y'umuriro.

Imodoka itwara imizigo ndetse n'abantu bitangaje kuko hejuru y'imodoka haziritseho ibikarito, amajerekani ndetse n'imifuka. Ni imodoka irimo abantu hasi yayo. Imifuka yifashishwa mu kubika ibintu, amajerekani ushobora kuyashyiramo ibintu bisukika.

Abantu bari mu nama， bari gutanga ibitekerezo. Umugore ari gufata mikoro akavuga igitekerezo cye， n’uko abyumva. Mikoro ni nziza kuko ituma uvuga cyane， bashiyra kuri mikoro，ukavuga bikagenda neza， kandi bikumvikana.

Umuyobozi arimo arigisha abaturage uko bakwiye kugira imibereho myiza no kwifata neza muri sosiyete, bakabana neza kandi mu mahoro.

Inkono y'itabi itangaje, inkono y'itabi iba ibajwe mu giti harimo aho ushyira umwambi ukarasa hanyuma ugatumura umwotsi, ukazamuka washyizeho umunwa. Izi nkono z'itabi zakoreshwaga kera cyane.

Abagore bicaye bari guseka bigaragara ko bari gucuruza itabi ryitwa igikamba. Iri tabi ni irya kera kuko harinywaga abasaza n'abakecuru bakarireka rikuma, bakarishyira mu nkono y'itabi, bakanywa bashyizemo igikara cy'umuriro.

Abantu benshi bari kunywa ubushera mu muvure bakoresheje imiseke. Umuseke ni akantu kaba gafite umwenge hanyuma ugashyira mu cyo ushaka kunywa ugakurura icyo urimo kunywa kikazamuka. Umuvure ni ikintu kinini ushobora gushyiramo ubushera cyangwa se amazi ndetse n'ibindi.

Abagabo babiri, bicaye bari kunywa ubushera. Bari gukoresha umuheha ,ndetse bari kuwunywesha mu kibindi. Bigaragara ko ari umuco wa kera. Bicaye ku ntebe ebyiri. Cyane cyane ibi bikorwa igihe habaye ubukwe.

Umuvure ni mwiza kuko wifashisha mu kwenga inzoga, inzoga bita urwarwa. Umuvure iyo ugiye kuwukoresha ufata ibitoki by'imineke ukabishiramo hagati, hanyuma ugashiramo n'ibyatsi, ukabimanyagura kugira ngo havemo urwagwa rwiza ruryoshye.

Umwirongi mwiza wa kinyarwanda. Umwirongi bawukora mu mugano, ufata ingingo y'umugano hanyuma ukayicamo kabiri, umwirongi urawuvuza igihe ushaka kwishima, cyangwa se gucurangira abantu.

Abantu bahagaze bafashe imiheto, umuheto wifashishwa urimo kurasa cyangwa se wagiye guhiga inyamaswa mu ishyamba. umuheto uba ukozwe mu giti ndetse n'umugozi, ushyiraho agati gasongoye ugakururuka.

Umutiba wa kinyarwanda . Umutiba ni mwiza kuko inzuki ziraza zikajyamo hanyuma zikajya gushaka ubuki zigashyiramo, abantu bakajya guhakura ,bakabona ubuki bwo kurya . Ubuki ni bwiza ku buzima bw'umuntu.

Abagore bunamye bafite umuvure, bigaragara ko bari gukama ibitoki. Ibitoki iyo bihiye ubishyira mu muvure hanyuma ukagenda ubikandakanda bikavamo umutobe, ushobora kunywa ugashira icyaka.

Inyundo nini cyane，yifashishwa mu kumena amabuye igihe urimo kubaka， ushaka gutaba fondasiyo y'inzu yawe，kugira ngo izakomere，ku buryo n'iyo umuyaga waza utayihungabanya. Iyi nyundo ni nziza，kuko ifasha kumena amabuye ndetse no kugira ngo...

Ababyinnyi bari kubyina bifashishije ingoma. Ingoma ni nziza cyane kuko zishobora gusimbura ibyuma bya muzika igihe byabuze cyangwa se umuriro wagiye, ingoma nazo ni nziza, urazivuza ukoresheje imirishyo hanyuma ukagenda uhondaho zikavuga cyane.

Umugabo uhagaze. Imbere ye hariho ibibindi byinshi cyane bisa nk'aho ari umucunnyi. Ikibindi ni cyiza kuko ushobora gushyiramo ubushera cyangwa se ugashyiramo amazi. N'igihe ushaka guteka ushobora gushyiramo ibiryo ukabitekamo.

Umugore upfukamye ufite urusyo, ndetse n'ingasire bigaragara ko ashaka ifu, ingasire n'urusyo ni igihe ufashe imbuto nk'amasaka cyangwa se ibigori, hanyuma ugashyiraho ukabeta ukagenda uzimanyaguza rya buye.

Inka nziza cyane, iyi nka bayita ingweba. Ikunze kugaragara cyane cyane mu bice by'iburasirazuba, iyi nka itanga umukamo iyo yabyaye. Amata yayo aba akungahaye ku ntungamubiri nyinshi cyane.

Inka nziza zitwa inyambo, inyambo ni inka ziba zifite amahembe manini, zikunze kuba mu bice byo mu Mutara. Izi nka ni nziza kuko zitanga amata cyangwa se igihe ushaka kurya inyama ukayibaga.

Inara yifashishwa kugosora imyaka. Inara ni nziza cane kuko iyo imyaka yumye cane cane nk'ibishimbo ushobora kuyifashisha uri gukuramo imyanda haba amabuye cyangwa se n'itaka riba ryagiye mu myaka igihe urimo guhura ngo ibishyimbo bivemo.

Intara ni nziza yifashishwa nk'igikoresho cyo mu rugo kuko intara igihe ushaka gukuramo imyanda mu myaka yawe, urayifata ukayishyira ku ntara ukagosora cyangwa se ukagenda urobanura ukuramo amabuye ndetse n'ibiti cyangwa ibyatsi.

Ingobyi ya kinyarwanda. Igihe umurwayi arwaye ashaka kujya kwa muganga, atuye ahantu imodoka idashobora kugera, ushobora kwifashisha ingobyi ukamushyiramo, hanyuma mukamuheka. Ingobyi itwarwa n'abantu bane, babiri ku mpande z'imbere n'abandi babiri ku mpande z'inyuma.

Ikibindi kiza giteretse kirimo ubushera. Igihe ushaka nko gushigisha ushiramo ubushera cyangwa se ukabikamo amazi muri icyo kibindi. Ikibindi kiba gikozwe mu itaka bita ibumba, ni ryo kiba kibumbyemo.

Amashyiga ya kinyarwanda yifashishwa mu guteka. Ufata ibiryo ugiye guteka， ukabishyira mu isafuriya， warangiza ugatereka hejuru. Ayo mashyiga， ufata inkwi ugashyiramo hasi y'isafuriya， hanyuma ugashyiramo umwambi ukatsa， ibiryo bikaza gushya ugateka.

Ababyinnyi basusurutsa abantu. Igihe habaye ibirori barabyina bakavuza ingoma abantu bakishima bakanezerwa, bakabyina bambaye imishanana kugira ngo bagaragare neza bambaye iniforome.

Abaturage benshi bari kunywa ubushera mu muvure bakoresheje imiheha. Imiheha ni agati kaba kabaje neza karimo akobo, hanyuma ugashyira mu muvure urimo ubushera, ugakurura, ukanywa.

Ikibindi cyiza giteretse hasi kirimo ubushera harimo n'imiseke yo kunywesha. Ikibindi ni cyiza kuko ushobora gushigishiramo ubushera hanyuma ukabunywa. Umuseke uwushyiramo ukawifashisha uri kunywa kuko ushyiraho umunwa warangiza ugakurura.

Ikibindi giteretse hasi kirimo kubira, harimo ubushera. Kirimo n'imiheha bakoresha bari kunywa ubushera burimo. Umuheha uba ubaje mu gati. Iyo ugiye kuwunywesha urakurura hanyuma ubushera bukaza ukabunywa.

Abaturage benshi bafite imipanga bari gukora umuganda batema ibyatsi. Iruhande hariho imodoka ndetse n'amatente; amatente aba akozwe nk'amahema, uyasakara hejuru n'iruhande kugira ngo izuba niriva ritabica.

Umuduri ushobora kwifashisha urimo kuririmba, kugirango ijwi ryawe ryumvikane neza hazemo n'umuziki. Uyu muduri ushobora gusimburwa na gitari, kuko gitari nayo uyifashisha urimo gucuranga, rero kariya gacuma tubona impande y'umuduri ni ko gatuma ijwi risohoka neza ry'umuduri

Imyuko myinshi irambitse mu kadobo. Umwuko ubazwa mu giti hanyuma ukawifashisha uri guteka umutsima. Ufata ifu ukayishyira mu mazi ugakoresha umwuko, ukagenda ubirindadagura hanyuma umutsima ukaza gushya ukoresheje uwo mwuko n'umuriro uri munsi mu isafuriya.

Ibibindi byiza cyane， ikibindi ushobora kugishiramo amazi igihe imvura yaguye， cyangwa se ushaka kugishiramo ubushera，cyangwa ikigage， igihe ushaka kugira ngo kibike neza ubushera bwawe，hanyuma uzabunywe bumeze neza.

Abakaraza benshi bari kuvuza ingoma, bakoresheje imirishyo. Ingoma ni imwe uvuza cyane ugahondaho ikavuga ushaka kubyina, kugira ngo ushimishe abantu. Imirishyo ni uduti uba warabaje neza ugenda uhonda ku ngoma ikavuga cyane.

Umusambi ,icyibo ,intara ,ikoma ,urusyo . Urusyo ni rwiza kuko iyo ushaka nk'ifu yo kunywa igikoma ufite ingano cyangwa se ibigori ushyiraho hanyuma ugasya ukabona ifu. Iyo fu ushobora kuyitekamo igikoma cyangwa se umutsima.

Ibyibo byiza biboshye neza. Ibyibo ushobora kubyifashisha igihe ugiye gusura umuntu umuzindukiye. U,,fata imyaka ugashyiramo, hanyuma ugafunga ukikorera ukajya kumusura. Ikibo ni kiza kuko kibika neza ibintu byawe.

Ibikoresho bya gakondo harimo ingoma, umusambi, igisero, ishoka n'umwirongi. Igisebo ni kiza kuko kifashishwa wikoreye ibintu cyangwa se uri gushyiramo imyanda ukajya kuyimena. ishoka uyifashisha uri kwasa ibiti.

Agakonzo kari ku meza kifashishwa igihe uri kubagara imyaka, cyane cyane ibishimbo cyangwa se amasaka igihe atangiye gukura, ariko akiri matoya. Agakonzo ni keza kuko uragafata ukagakoresha ugiye kubagara imyaka uri gukuramo ikirare.

Inzu uruhande rwayo hariho ipoto iriho insinga z'amashanyarazi, ziriya nsinga z'amashanyarazi nizo zijyana umuriro kugira ngo tubone umuriro wo gucana. Naho hariya impande y'inzu nanone hariho kanari, iriya kanari niyo ituma tubona amakuru yo mu bihugu byo hanze, ndetse no mu gihugu iwacu ku buryo ucomeka kuri televiziyo binyuze muri iriya kanari ukaza kubona amakuru ahagije.

Mashini nini nziza cyane. Mashini ni igikoresho cy'ikoranabuhanga， kigufasha mu kumenya amakuru yo mu gihugu， cyangwa se hanze y'igihugu. Mashini ni nziza，kuko igufasha no gusoma kwiga， cyangwa se uri gushaka ibintu utari usanzwe uzi.

Inzu nini cyane yubatse neza, bigaragara ko ari urusengero abakiristu basengeramo, kuko imbere hari umusaraba ugaragaza ko abakiristu ari bo basengeramo buri munsi, cyangwa se no ku cyumweru.

Urusengero rwiza rwubatse neza ,urusengero ni inzu nziza iba yubatse, ariko itandukanye n'inzu isanzwe abantu babamo, kuko abakristo bajya gusengeramo, igihe bashaka kwegerana n'Imana.

Imodoka iri kunyura hejuru y'ikiraro, ikiraro ni igihe umuhanda wacitsemo kabiri, hanyuma bakacyubaka bakoresheje ibiti, cyangwa se bakacyubaka bakoresheje ibyuma ariko bikomeye, kuko abantu baba bakinyuraho hejuru yacyo.

Akazu gatoya kubatse ku muhanda, iruhande rw'aho hahinze insina, ibishyimbo hanyuzeho n'umuriro w'amashanyarazi. Hariho n'amapoto afite taransifo. taransifo ni icyuma cy'ikoranabuhanga, aho umuriro iyo uje kiwufata kikawohereza mu baturage kugira ngo badashya.

Ibitaro byiza by'ibanze byubatse neza. Ibitaro abarwayi bajya kwivuza igihe barwaye, bagafata imiti bakabasha gukira indwara baba barwaye. Ibitaro biba bikoreramo abaganga babyigiye bazi gutanga imiti, no gupima indwara abarwayi barwaye.

inzu nini cyane zubatse neza, bigaragara ko ari amashuri yigirwamo n'abanyeshuri, kuko imbere hahagaze abantu, iruhande hariho uwambaye itaburiya bigaragara ko ari umwarimu wigisha muri ayo mashuri, abanyeshuri bigiramo.

Etaje yubatse neza， isa neza， bigaragara ko wagira ngo ni ibiro by'abayobozi bo muri kaminuza， kuko hariho ikirango cy'ubuyobozi cya kaminuza. Kaminuza ni ishuri rikuru， ryigirwamo n'abanyeshuri basoje segonderi.

Inzu iri ahantu heza yubatse neza iri iruhande rw'ibiti itanga akayaga keza. Inzu bigaragara ko abantu bashobora kuyiyakiriramo igihe habaye ubukwe cyangwa ibirori. Iyi nzu ishobora gukorerwamo n'inama igihe abaturage bashaka kuvugana n'abayobozi.

Inzu nziza yubatse neza ya etaje. Yubatse iruhande rw’umuhanda， ku buryo iyo ushaka kuhagera byihuta cyane. Inzu ifite amagorofa atatu， iya mbere yo hasi，iya kabiri n’iyo hejuru， yubakishije amatafari meza cyane.

Inzu bigaragara ko hatangirwamo serivisi za Leta. Igihe umuturage yagize ikibazo ajya kureba umuyobozi ukoreramo akamufasha, kuko iruhande hari amadarapo abiri ahari afasha...

Ikiraro cyiza cyane cyo mu kirere, ni ikiro kiba cyubatswe, kugira ngo abantu bambuke bava ku gasozi bajye ku kandi. icyo kiraro cyubakwa igihe hasi hari umugezi utemba, kugira ngo abantu bazajye banyura hejuru ku kiraro.

Amazu menshi yubatse neza bigaragara ko ari amashuri yigirwamo n'abanyeshuri. Imbere hari ibigega, igihe imvura yaguye amazi ava ku mabati akajya muri ibyo bigega. Ayo mazi ushobora kuyifashisha urimo gufura cyangwa se uri gukoropa, uri gusukura mu nzu.

Ahantu heza hatatse neza hari inzu nziza ziri ku muhanda. Ku muhanda hari amatara amurikira abagenzi bari kunyuraho, ku buryo bagenda bareba iyo bajya. Ni ukuvuga ngo amatara ni meza kuko atuma n'ibisambo bitiyongera.

Abantu benshi bari mu birori bafite ibipirizo. Igipirizo kibamo umwuka, gishobora kwifashishwa nk'umutako igihe muri gutaha inzu, cyangwa se mushaka kwishimisha mu gihe muri mu birori by'umuntu wavutse.

Igitanda cyiza wifashisha uryamye igihe unaniwe cyangwa se uri kumva ufite ibitotsi. Haba mu gitondo, nimugoroba cyangwa se kumanywa, igihe cyose ushaka kuruhuka ushobora kukiryamaho. Igitanda ni cyiza kuko gituma ubuzima bugenda neza.

inzu yubatse, iruhande rwayo haparitseho imodoka ndetse na moto, hariho n'abantu bahahagaze. Ikindi hariho idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, bigaragara ko ari inzu itangirwamo serivise z'ubuyobozi, z'ibijyanye na Leta.

Urusengero rwiza cane rw'abakatolike ruri ahantu heza, urusengero rw'abakatolike barwita kiliziya. Kiliziya ni imwe abakirisito bihaye Imana bajya gusengeramo. Kiliziya iba iyobowe na padiri ndetse afatanyije n'abamasere baba barihaye Imana.

Inzu nziza cyane ya etaje, iri ahantu heza haboneye, hariho ibiti by'amahumbezi. Inzu ni nziza kuko igihe ushaka kuryama uragenda ukaryama, iyo bwije kugira ngo imbeho itakwica.

Abantu bicaye mu ishuri, imbere yabo hari ameza. Bigaragara ko ari mu ishuri kuko hari n'ikibaho abanyeshuri bandikaho barimo kwiga. Kandi bicaye no ku dutebe dutoya, tumwe abanyeshuri b'abana bicaraho.

Inzu nziza nini yubatse neza .Bigaragara ko ari urusengero .Kuko imbere hejuru hariho ikimenyetso cy'umusaraba .Kigaragaza ko ari abakristo bahasengera .Bizera imana cyane cyane, abakrisristo bitwa aba Adepr.

Inzu yubatse bigaragara ko ishobora kuba ari iy'ubuyobozi butangiramo serivise za Leta kuko imbere hariho amadarapo abiri rimwe rigaragaza igihugu cy' u Rwanda cyacu.

Amashuri meza kandi menshi. Amashuri yifashishwa mu kwiga. Igihe abana barimo kwihugura n'abantu bakuru.

Inzu nini yubatse neza cyane bigaragarako ari urusengero rw'abakatolike kuko hejuru hari umusaraba ugaragaza abakirisito, cyane cyane hariho n'ikimenyetso cya Bikiramariya , kigaragazako ari urusengero rw'abakatolike.

Inka nziza iri mu kiraro. Inka ni nziza kuko itanga amata igihe yabyaye， cyangwa se yakura ushaka kurya inyama， ukayibaga. Inka ni itungo ryo mu rugo rirya ubwatsi，cyangwa se ukayishakira ibyoku kurya bindi，byayigenewe.

Ikiraro cyiza cyane cyo mu kirere, kiri kunyuraho abantu babiri umuzungu ndetse n'umwirabura, hasi yacyo naho hari kunyuraho abandi bantu, Ikiraro kiba cyubakishijwe ibyuma bikomeye cyane kugira ngo kitazacika kikica abantu.

Ikiraro cyiza kiri hejuru y'amazi. Ikiraro cyubakishijwe ibiti, ibyuma ndetse n'insinga. Ikiraro abantu bakinyuraho barimo kwambuka kugirango batagwa mu mugezi cyangwa se ahantu harehare cyane.

Inzu nini cyane yubatse neza， bigaragara ko ari urusengero. Kuko imbere hari umusaraba ugaragaza inzu y'abakirisitu， bivuze ko ari urusengero abakiristu basengeramo ku cyumweru，cyangwa se n'indi minsi bashaka.

Inzu yubatse neza iteye irangi, imbere hariho abantu barimo kugenda n'umugore wambaye ijiri ya emutiyen, bigaragara ko atanga amayite, igihe ushaka guhamagara umuha amafaranga akakoherereza amayinite ugashyira muri telefone hanyuma ugahamagara.

Abantu benshi bicaye bateze amatwi; Abantu bari imbere bari kubabwira bisa nkaho bari mu nama, kuko imbere hicaye abagore babiri bari kwandika n'umupolisi urimo umupolisi abashinzwe umutekano wo mu muhanda igihe habaye impanuka.

Abaturage baricaye bateze amatwi，bari kumva ibyo umuyobozi arimo kubabwira，uburyo bagomba kubaho neza， bagomba kugira imirire myiza n'imibereho myiza，muri rusange n'uburyo bagomba kwiteza imbere muri ibi bihe bigoye.

Umumama uhagaze bisa nkaho ari kubaza ikibazo umuyobozi. Iruhande rwe hariho abantu benshi. Impande hakaba hariho imodoka iparitse. Imodoka yifashishwa igihe urimo kugenda kugira ngo wihute ugere iyo ugiye vuba vuba.

Ikibuga cyiza cy'indege, gisa neza ,haparitseho indege. Indege ni nziza kuko ituma umuntu agera iyo agiye yihuta vuba vuba. Kandi indege inyura mu kirere, ikagwa ku kibuga cyabugenewe.

Ibimodoka binini cyane biri kugenda mu muhanda. Iruhande hari kunyuraho amagare. Ibimodoka bitwara ibintu byinshi cyane, kuko byambukiranya imipaka biva mu gihugu kimwe bijya mu kindi, bitwaye ibicuruzwa bigiye gucuruzwa mu kindi gihugu.

Imodoka nini cyane ihagaze iri kumena igaraviyo. Ifite ikibehe, ikibehe cy'inyuma ushyiramo imitwaro ushaka gutwara, cyangwa se igaraviyo, amabuye ikayatwara iba ifite amapine atuma igenda yirukanka.

Imodoka nini yifashishwa mu gutwara imizigo ushobora kuyikoresha utwaye ibyo kurya ibitoki, ibirayi cyangwa se amashu. Iyi modoka ifite amapine atuma yirukanka ikagera iyo igiye vuba vuba.

Imodoka nziza nini zihagaze ahantu， zifashishwa mu gutwara abagenzi benshi. Imodoka zifite amapine abiri， atuma zirukanka cyane，zifite n'ibirahure umushoferi agenda areberamo， kugira ngo atware neza.

Ibimodoka binini cyane bitwara imizigo. Ibi bimodoka bikunze kwifashishwa igihe biri kwambukiranya imipaka biva mu gihugu kimwe bijya mu kindi, kuko bitwara ibintu byinshi cyane bibigemuye mu kindi gihugu.

Igare ritatse risa neza, igare uryifashisha utwara imizigo cyangwa se ushaka gutwara abantu. Igare riba rifite amahembe agufasha kugira ngo uyobore igihe urimo kuritwara, rikagira ibirenge wifashisha urimo kunyonga kugira ngo ryihute cyane.

Moto nziza yifashishwa mu gutwara imizigo. Iyi moto ni nziza kuko iyo ugiye nko kwimuka cyangwa se utwaye ibintu bikeya ubishyiramo, hanyuma ikabitwara ikabigeza iyo igiye.

Imodoka nini cyane ziparitse ahantu bigaragara ko ari muri gare kuko hari n'abantu benshi, bamwe bari kwinjira mu modoka abandi bari gusohoka. Imodoka ni nziza kuko zituma wihuta uri gukora urugendo ntuvunike.

Abamotari batatu batwaye moto, bambaye kasike ndetse indi bayifashe ku kaboko. Moto ni ikinyabiziga cyirukanka cyane kiba gifite amapine abiri, gituma ugera iyo ugiye vuba vuba iyo ushaka kwihuta.

Ibimodoka binini cyane biparitse bitwara abagenzi byitwa Ritiko. Ibi bimodoka ni byiza kuko bitwara abantu benshi, bikagenda n'urugendo runini cyane. Biba bifite amapine manini atuma byirukanka cyane, bikagera iyo bigiye vuba vuba.

Imodoka nini cyane iri kugenda mu muhanda, bisa nk'aho imvura iri kugwa, inyuma yayo hari utundi tumodoka dutoya kuri yo, iyi modoka ni iya etaje kuko hasi hari intebe zo kwicaramo no hejuru hari izindi zo kwicaramo, bigaragara ko ari nziza cyane.

Imodoka nini cyane iri mu ruganda. Ikunda gutwara ibintu by'imbuto ibigemuye ibivanye ahantu hamwe bijyanye ahandi. Cyane cyane mu bihugu byo hanze, aho usanga iva mu Rwanda ijya mu bihugu byo hanze. Ifite imbuto ndetse n'ibindi bicuruzwa bitandukanye.

Imodoka nini cyane ziparitse zifite amarangi y'ubururu ni nziza kuko zitwara abagenzi benshi cyane kandi zirirukanka. Zifite amapine akomeye cyane atuma zirukanka zikagira n'ibirahure byiza ugenda wumva akayaga.

Ahantu heza imodoka ziparika hitwa gare, imodoka ni nziza kuko zifashishwa mu gutwara abagenzi. Gare ni ahantu haba hubatse, imodoka ziba zirimo ari nyinshi, abantu benshi bahahurira baje kugira ngo babone imodoka zo kugendamo.

Imodoka nziza nini cyane yitwa volukano. Irimo abagenzi baricaye, bitegura guhagarara kugirango bagende. Iriya modoka yifashishwa mu gutwara abagenzi, iyo uvuye ahantu hamwe ugiye ahandi. Kandi iriya modoka ni nziza cyane, kuko ni nini itwara abantu benshi gusumbya imodoka ntoya.

Igare ryifashishwa mu gutwara ibintu bitandukanye. Harimo ubwatsi bw'amatungo, harimo gutwara abantu ndetse no gutwara imizigo. Igare ni ryiza kuko iyo ushaka kwihuta, ushobora kurigendaho ukagera iyo ugiye vuba vuba.

Imodoka nini zihagaze，ziri mu bwoko bwa ritigo zitwara abagenzi benshi cyane， zifite amapine akomeye cyane， atuma zirukanka zikagera iyo zigiye vuba vuba， nta kibazo zifite.

Ikibuga kiza giparitseho indege. Indege ni nziza kuko ituma wihuta igihe uri ku rugendo, inakora ahantu harehare cyane, igihe uvuye mu gihugu kimwe ujya mu kindi n'igihe ushaka kugira ngo utembere imigabane yose igize isi.

Umuntu wicaye kuri moto ufashe kasike inda yambaye mu mutwe, bigaragara ko ari umumotari atwara abantu kuri moto, umuntu ashaka gutembera cyangwa se agiye gusura abantu b'inshuti ze akumbuye, cyane cyane abo mu miryango ye.

Imodoka nini cyane, ihagaze itwara abantu benshi yitwa bisi, ifite amapine abiri ituma agenda yirukanka cyane, kugira ngo abantu bagere iyo bagiye, abantu benshi barayikunda kuko yirukanka kandi igatwara abantu benshi cyane.

Imodoka nini za bisi zifashishwa mu gutwara abagenzi. izi modoka ni nziza kuko zitwara abagenzi benshi. Zifite amapine atuma zirukanka cyane, zikaba zifite na deregisiyo kugirango ubashe kuyobora neza ukata imihanda n'amakorosi.

Imodoka nini cyane bigaragara ko ari iy'abakerarugendo kuko hasi harimo imyanya bicaramo no hejuru hari indi myanya bicaramo. Iyi modoka ni nziza kuko ifite ahantu habiri ho kwicara itwara abagenzi benshi cyane.

Abanyeshuri b'abakobwa bahagaze bateze imodoka, bashaka kugirango baje iwabo, bateze imodoka nini cyane ya bisi igenda yirukanka ifite amapine abiri atuma yirukanka cyane, kugirango igende igere iyigiye vuba vuba.

Abakobwa bari muri siporo bari gukina vore, bigaragara ko bari gukinira muri stade, kuko abantu baricaye bari guseka, abandi barishimye. Umukobwa afashe umupira ari gutera ikiro kinini cyane agatsinda.

Abantu benshi bafite amadarapo, bambaye n'amajezi, bigaragara ko bicaye muri sitade. Sitade ni ahantu haba hakinirwa imipira y'amaguru cyangwa se imipira y'intoki, abantu bakagenda bakicara bakareba umupira abakinnyi bari gukina.

Abantu bahagaze barimo kwifotoza bambaye imidari bigaragarko aribo batsinze kurusha abandi. Imidari ni ikintu bakwambika bigaragarako ari wowe warushije abandi, mu byo mwarimo gukora muri kurushanwa.

Abakinnyi b'amagare bambaye imidari mu ijosi, imidari ni igihe uba watsinze abandi ari wowe wabaye uwa mbere, bakakwambika umudari hanyuma bikagaragara ko ari wowe wahize abandi, mu kubasiga wirukanka.

Abakobwa batatu bigaragara ko bari muri siporo, kuko babiri bambaye imyenda isa, undi yambaye umwenda usa wenyine, afite agapira abandi bashaka kukamwaka bigaragara ko bari gukina agapira.

Abana batatu bari kugenda ku magare ya siporo. Igare rya siporo ni ryiza kuko ririrukanka cyane. Riba rifite amapine abiri arifasha gutuma ryirukanka, rifite n'amahembe atuma uyobora kugira ngo wirukanke.

Umuntu urimo gutera ikiro yasimbutse hejuru cyane. Ikiro ni igihe ufashe umupira ukawushyira hejuru ,hanyuma ugatera ukoresheje akaboko, ukava mu kibuga cyanyu ,ukajya mu kindi kibuga.

Igare rya siporo ni ryiza cyane. Ririrukanka ku buryo ugera iyo ugiye hakiri kare. Riba rifite amapine abiri, ibirenge, ndetse n'umunyururu n'amahembe, yo kuyobora amapine arifasha kwirukanka cyane. Naho ibirenge bituma unyonga kugirango ubashe kwirukanka naryo.

Abantu bari mu kibuga bari gukina umupira bigaragara ko bari muri siporo bishimye. Umwe afashe umupira ashaka kuwaka undi ngo agende yirukanka ajye gutsinda igitego, hanyuma babatsinde batahane intsinzi batahe bari guseka.

Abantu bicaye ari benshi imbere yabo hahagaze umupolisi bigaragara ko ari gucunga umutekano, bicaye muri stade kuko bigaragara ko bari kureba umupira, bamwe bishimye baseka abandi bababaye.

Umuhanda usa neza, ushashe utubuye hasi, bigaragara ko ari umuhanda wo mu giturage, iruhande hahagaze amagare abiri, abantu bari kugenda muri uwo muhanda, bagiye muri serivisi zitandukanye.

Ibase ntoya iteretse hasi, ushobora kuyifashisha urimo gukaraba, kugirango ngo ugire isuku, cyangwa se ukayikoresha, mu gihe ushaka kubikamo ibyombo, nk'udusahani dutoya, ibiyiko, amafoke ndetse n'ibindi.